Umwana wo mu mashuri y'incuke, ndetse na mwarimu. Mwarimu afite indangururamajwi, arimo gusomesha umwana uko bavuga imibare. Imibare yanditse aho umwana ari gusoma, ni ukuva kuri rimwe kugeza ku icumi.

Igikoresho cyabikwamo amazi, igikoma cyangwa icyayi akenshi bakunda kugiha abana bakiri batoya bakakijyanamo nk'igikoma bagiye kwiga kugira ngo nibasonza, bagikoreshe barimo kukinywa.

Igikinisho cy'abana, kiri mu mabara y'ubururu n'umuhondo, ni igikinisho kiba kiri ahantu bakora bisinesi, ugasanga bahashyize ibikinisho, abana bajyayo bagakina cyangwa akaba bari ku ishuri, ni igikinisho cy'umwuka bahaga, abana bakajyaho bakajya bakina ndetse bakanasabana.

Igishushanyo kiriho abarimu babiri n'abanyeshuri abanyeshuri abahungu bambaye impuzankano zisa ikigina, amasogisi y'umweru n'inkweto z'umukara, abakobwa bambaye amakanzu y'ubururu n'amasogisi y'umweru n'inkweto z'umukara, abarimu babari imbere umuhungu umwe afashe idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abana b'abanyeshuri bari kumwe na mwarimu barimo kubyina, bambaye impuzankano z'amashati y'umuhondo n'amajipo cyangwa amakabutura y'ubururu, ni abana bo mu mashuri abanza.

Igishushanyo cy'abana b'abanyeshuri n'abarimu. Abana b'abahungu bambaye impuzankano zikigina n'abana b'abakobwa bambaye amakanzu y'ubururu. Imbere yabo hari abarimu babiri, harimo umwarimu w'umugabo n'umwarimu w'umukobwa kandi umwana umwe afashe ku ibendera ry'u Rwanda.

Inzu iriho ibishushanyo byifashishwa nk'imfashanyigisho ku bana b'inshuke, harimo igishushanyo cy'itoroshi ndetse n'igishushanyo cy'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda rigiye ririmo amabara atandukanye bigendeye ku Ntara Igihugu cy'u Rwanda gifite.

Ishuri ry'abana biga mu mashuri y'inshuke cyangwa amashuri abanza. Hariho ibishushanyo biri ku ishuri bifasha abana kugira ngo bamenye indimi z'amahanga, uko bazajya bita ibikoresho mu ndimi z'amahanga. Ibyo bishushanyo harimo: ingorofani, inyama ndetse n'ibindi.

Inzu ishushanyijeho ibishushanyo bitandukanye. Akenshi byifashishwa nk'imfashanyigisho kugira ngo abana babashe kumenya amatungo ndetse n'ibintu mu ndimi z'amahanga. Iri shuri rero rishushanyijeho inkoko iri kumwe n'umushwi, ku ruhande rwaho gato hariho umuntu uhagaze aho handitseho amagambo n'ibice by'umubiri bitandukanye kugira ngo abana babashe kubimenya.

Ishuri ririho igishushanyo, ni kimwe mu mashuri yifashisha ibishushanyo kugira ngo abana bakiri bato babashe kumenya ibikoresho bitandukanye mu ndimi z'amahanga, hano kuri iri shuri bashushanyijeho igishushanyo k'ingorofani, aho mu Cyongereza bacyita, iri ni izina ryacyo kugira ngo abana babashe kurimenya mu zindi ndimi z'amahanga.

Umurima uhinzemo ariko imyaka ikaba itaramera. Hirya yaho hari abana b'abanyeshuri bakiri bato barimo gukinira mbere y'ishuri. Bambaye impuzankano y'amashati y'umweru n'amakabutura cyangwa amajipo y'umukara.

Abana babiri n'abandi bari inyuma, ariko babiri bambaye utugofero, barimo gutera irangi inzu, irangi riri guterwa ni irangi ry'umweru. Ni abana barimo kugerageza kwimenyereza umwuga wo gutera amarangi.

Abana barimo gukina n'abarezi, abana ni abo mu mashuri y'incuke, bari kumwe n'ababyeyi cyangwa abarezi babafasha kwimenyereza ibijyanye n'amasomo, barimo gukina bamanitse amaboko hejuru kandi bambaye impuzankano y'imipira y'umuhondo, hasi bakaba bambaye umukara.

Ishuri rishushanyijeho ibikoresho nk'imfashanyigisho zifasha abana bari mu mashuri abanza kugira ngo babashe kumenya ibikoresho mu ndimi z'amahanga, muri ibyo bishushanyo biri ku ishuri hariho ibasi ndetse n'umweyo.

Inzu y'ishuri iriho ibishushanyo bitandukanye, byafatwa nk'imfashanyigisho y'abana. Ishuri bashushushanyijeho ibimera bigiye bitandukanye ndetse n'inkoko iri ku isahani. Kugira ngo abana babashe kumenya ibyo bikoresho mu ndimi z'amahanga.

Igikoresho kibika ibindi bikoresho byifashishwa mu gushushanya cyanecyane mu isomo ry'imibare cyangwa ayandi masomo yose akenera ibishushanyo. Harimo ibikoresho bishushanya uruziga, imirongo ndetse n'ibindi.

Umwarimu ari imbere y'abanyeshuri arimo kwigisha. Abanyeshuri na bo bamanitse akaboko, barimo gushaka kumusubiza. Umwarimu akenshi iyo abajije abanyeshuri bo mu mashuri abanza, bamanika akaboko kugira ngo ababizi bamusubize. Umwarimu arimo kwigisha imibare.

Ibyicungo by'abana biri mu mabara y'icyatsi n'umuhondo n'ubururu. Akenshi ibi n'ibikinisho by'abana aho bakunda kubijyaho bakarya umunyenga, aho basunikana. Akenshi bikurura abana bigatuma bakunda ishuri bikunze kuba biri ahantu ku mashuri.

Abadamu babiri bambaye agapfukamunwa ndetse n'umugabo umwe bari kwifotoreza ku ikarito ingana n'iyo ikunda kuza mu mashini cyangwa mudasobwa bari ahantu ku ishuri, bameze nk'abari kumuha igihembo.

Ikigo cy'amashuri kitwa Karangazi ni kigo cy'amashuri yisumbuye, aho hari icyapa kiriho amagambo menshi atandukanye harimo nk'amahame y'intore bagenderaho, amabwiriza, kirazira ndetse n'ibindi bagenderaho nk'abanyeshuri bari gutozwa n'ubutore.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa nk'umunyeshuri, akenshi byinshi byifashishwa mu gushushanya, harimo umukasi, kereyo, umugoma, irate, ndetse n'ibindi.

Jeannette Kagame umudamu w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda arimo gukina umupira n'abana b'abanyeshuri. Ni abana bishimye bari ahantu hari ibiti byinshi by'indabo, abanyeshuri bambaye amajiri y'umuhondo ndetse bakaba bambaye imyenda y'umukara.

Igishushanyo kiriho umusaza, arimo kuganiriza abana. Bicaye ahantu munsi y'igiti, abana bateze amatwi barimo kumva ibyo umusaza arimo kubabwira. Ni handi umusaza aba arimo gucira abana imigani cyangwa ibindi biganiro bituma abana barushaho gutekereza no kwiyunga ubumwe.

Ibikoresho byifashishwa mu gushushanya. Cyane cyane bikunda gukoreshwa mu mibare cyangwa n'andi masomo, akenera ibishushanyo. Harimo ibica umurongo, ibica uruziga nka kompa, guca umurongo byo ni irati keleyo yifashishwa mu gushushanya, umugoma usiba, na takeleyo, iconga keleyo.

Igishushanyo cy'abana bane bambaye amashati y'ubururu barimo kurya bicaye kumeza aho bafite ibiryo byo kurya ndetse n'icyo kunywa, akenshi ibi bikoreshwa nk'imfashanyigisho z'abana kugira ngo babashe kwiga uburyo bakwitwaye kandi harimo n'umwana umwe ufite ubumuga washyize imbago ku ruhande.

Ibikoresho bikoreshwa mu mibare, bibikwa mu gikoresho cyitwa mu ndimi z'amahanga boute, harimo ibica uruzigo ari byo kompa, ibica imirongo y'amarate ndetse n'ibindi bipima ibipimo bitandukanye.

Abana bicaye ku murongo, bameze nk'abagiye gukora ikizamini. Aho bambaye impuzankano, z'amashati y'umweru hasi hakaba ari ubururu. Buri mwana yicaye ku ntebe imwe, umwarimu ari kugenda abanyuramo abaha ibizami, kugira ngo bakore badakoperana.

Umwarimu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara arimo kwigisha ku kibaho aho ari gusoma amagambo yanditse n'ingwa, imbere ye hari imashini yifashishwa mu guteranya imibare ndetse n'igitabo ari kwigishirizamo, aho aba ahagaze imbere y'abanyeshuri arimo kubigisha.

Inzu ziri ku murongo. Inzu ebyiri kandi zisa kandi ziri mu bwoko bumwe. Inyuma ku miryango hari ibikapu byinshi cyane, biri mabara atandukanye. Akenshi ibi bikapu bikunze kuba biri ahantu abana bigira nk'abanyeshuri muri pirimeri cyangwa, mu mashuri yisumbuye.

Ikigo cy'amashuri, harimo amashuri menshi atandukanye, amashuri yabo afite amadirishya n'inzugi biteye amarangi y'icyatsi, ndetse n'amabati y'umweru, amashuri yubakishije udutafari duhiye, kandi mu kigo hagati harimo igiti kinini cyane.

Igishushanyo gifasha abana kwiga. Aho kiri kwerekana umuryango. Harimo ababyeyi ndetse n'abana. Papa yitwa Jabo, mama yitwa Simbi, abana ni bane. Harimo uwitwa Ganza, Keza, Shema ndetse n'Isaro.

Igishushanyo kifashishwa nk'imfashanyigisho aho hari inkoko ndetse n'iyindi nyamanswa. Ni ngombwa gushimira nicyo kigisho bari guha abana, amashuri y'inshuke ni inkoko ndetse n'inyamaswa irimo kuyiha ibyo kurya.

Umuryango uri mu irangi ry'umutuku, hejuru y'umuryango hari icyapa cyanditseho igororo ry'abana rya Nyagatare, bishatse kuvuga ko rero iki gipangu bakinyuramo cyangwa ari igipangu cy'ahantu hari inyubako zigororerwamo abana b'i Nyagatare, bakunze kuba ari abana bitwaye nabi noneho bakajya kubagorora kugira ngo bongere kugira imyitwarire myiza.

Igishushanyo cy'inzovu na bakame, ni igishushanyo cy'imfashanyigisho cyo mu mashuri abanza, aho basomera inkuru abana, inkuru ya bakame yigira umwami w'ishyamba.

Ikigo cy'amashuri amashuri yubatse mu buryo bubiri butandukanye, aho hari amashuri bacishije udutafari adateye irangi hose ndetse n'ayandi ateye irangi rijya gusa umweru amande yaho haparitse imodoka ndetse n'umuntu uri imbere yaho ufite moto. Hari abandi bagabo babiri bicaye ku ishuri rimwe.

Abana b'abanyeshuri bo mu cyiciro cya sogondere, bambaye impuzankano zo hasi, bambaye amashati y'umweru, bamwe bafite amakayi, abandi ntayo bafite. Bari ahantu bicaye neza nk'abari kumvamva ikiganiro cyangwa bakaba bagiye gusenga.

Abanyeshuri bicaye ku murongo, ku ntebe basanzwe bicaraho biga. Bambaye impuzankano y'amashati y'umweru, hasi bakaba bambaye imyenda y'ikigina, amapantaro n'amajipo. Umunyeshuri umwe muri bagenzi babo, arimo kubaha ikiganiro. Bambaye na karuvati, nyuma yaho gato, hari abandi bambaye imipira y'umuhondo, hasi bakaba bambaye umukara.

Abana b'abanyeshuri bari mu kigero cy'amashuri yisumbuye bambaye impuzankano w'uyu mupira w'umweru, ipantaro y'kigina, n'amajipo y'ikigina, ndetse n'inkweto z'umukara afite icyapa cyanditseho kwibuka ku nshuro makumyabiri numunani kandi arikwibuka twiyubaka. Igikorwa gikunda kuba mu rwanda mu kwezi kwa kane kuitariki zirindwi kugeza kuri cumi n'enye bibuka jenoside yakorewe abatutsi icnda kane.

Abana b'abanyeshuri bicaye bifashe neza, bambaye impuzankano ,amashati y'umweru, n'amajipo y'ikigina, kandi bambaye ubupfukamunwa ,bisa nk'aho ari mu cyorezo cya covid igihe cyari gihari ,bicaye batuje bameze nk'abari gukurikira ikiganiro.

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'amashati y'umweru n'amajipo y'ikigina, bafite impapuro bameze nk'abari muri korali bari kuririmba cyangwa bari gukora ikindi gikorwa bahuriye hamwe nko gusoma inyandiko cyangwa kuririmba indirimbo, harimo n'abandi bana b'abakobwa batambaye impuzankano.

Abana b'abanyeshuri bari mu kigero cy'amashuri yisumbuye bambaye impuzankano z'amashati y'umweru, amapantaro y'ikigina cy'amajipo y'ikigina n'umupira wo kwifubika w'icyatsi barahagaze bameze nk'abari mu kiruhuko.

Abanyeshuri bicaye ku murongo kandi bambaye impuzankano, harimo inkweto z'umukara, amasogisi y'umweru, amajipo cyangwa amapantaro y'umukara, amashati y'umweru ndetse na karuvati z'umukara, bicaye hamwe, bameze nk'abari kumva ikiganiro cyangwa inyigisho runaka.

Abana b'abanyeshuri bari mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na kabiri . Bafita icyapa cyanditseho amagambo yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ni ikigo kiri mu karere kacu ka Nyagatare. Kwibuka jenoside yakorewe abatutsi turwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Bibukaga ku nshuro ya makumyabiri na kabiri.

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'imyenda y'umweru hejuru, amapantaro y'ikigina n'inkweto z'umukara, bafite indabyo bose aho akenshi bikunda gukorwa barimo kwibuka abavandimwe bavuye mu buzima cyangwa abavandimwe bagize ibyago.

Abanyeshuri barimo kwiga mu buryo bugezweho, aho bakoresha imashini ndetse n'ibindi bikorwa by'iterambere bifashisha mu kwiga.

Inyubako y'amashuri, ni ishuri ryiza rigeretse rimwe, ni ishuri rigezweho ryubatswe vuba aho haba higamo abana bo muri sogonderi cyangwa mu mashuri yisumbuye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'umweru hasi bakaba bambaye umukara. Barimo kwiga imbere yabo buri wese afite imashini. Bamwe bafite amakaye barimo gusomeramo banareba mu mashini. Ni mu buryo bw'imyigire bugezweho.

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'amashati y'umweru ndetse no hasi bakaba bambaye ikigina, inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru. Bari mu gikorwa cyo kwibuka, aho imbere yabo hari ahantu hari abantu bashyinguye, hakaba hari umuyobozi ufite indabyo urimo gutereka ku rwibutso.

Abanyeshuri bicaye hamwe bambaye impuzankano z'amashati y'umweru ndetse hasi bakaba bambaye ikigina, bicaye mu matsinda umwarimu arimo kubafasha, aho hari igitabo barimo kureberamo imfashanyigisho noneho mwarimu nawe akaba ari kubafasha gukosora cyangwa gusobanukirwa ari kwandika mu ikayi.

Abana b'abanyeshuri bari ahantu hameze, nko mu rusengero, cyangwa aho abanyeshuri basengera. Bahagaze ku murongo kandi bafite impapuro, bameze nka korali irimo kuririmba isoma indirimbo ku rupapuro, kandi harimo n'abandi bakobwa batambaye impuzankano z'abanyeshuri.

Abanyeshuri bahagaze ku murongo barimo kwifotoza. Bambaye impuzankanto y'amajipo n'amapantaro y'ikigina, inkweto z'umukara, amasogisi y'umweru, imipira yo kwifubika y'umweru n'ubururu n'amashati y'umweru. Imbere yabo kandi hari abayobozi bicaye, inyuma yaho hari n'abashinzwe umutekano barimo nka Daso. Inyuma yaho kandi na none hari inzu igeretse imeze nk'ishuri cyangwa iyindi nzu ikorerwamo ibindi bikorwa.

Abanyeshuri barimo kwiga nta mpuzankano bambaye, akenshi iyo abanyeshuri bigana nta mpuzankano bambaye baba biga muri kaminuza, kandi buri munyeshuri afite imashini imufasha kwiga, bari mu ishuri kandi ntago bari benshi.

Abanyeshuri basoje kaminuza, bambaye amakanzu ndetse n'ingofero, bari ahantu ikirori cyabereye cyo gusoza amashuri ya kaminuza, bamwe muri bo banaze ingofero hejuru, muburyo bwo kwishimira ko basoje kwiga.

Intebe zo kwicaraho, n'intebe ziri mu ubwoko bubiri, hari intebe eshatu zisa ubururu aho umuntu yicaraho akegama noneho akaba yanakwandika, ahanini ni intebe ikoze mu mbahoho, aho ari intebe ndende umuntu yicaraho ariko akaba atabona uko yandika.

Abanyeshuri bicaye hamwe, akenshi abanyeshuri batambaye impuzankano bakunda kuboneka mu mashuri yo muri kaminuza, bivuze ko abari abanyeshuri bo muri kaminuza bicaye barimo kumva ikiganiro, hari abantu bamwe baricaye ndetse bari muri etaje.

Abanyeshuri bo muri kaminuza, bafite ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwiga. Harimo imashini, amakaye, amakaramu ndetse na telefone. Bicaye hamwe, barimo gukora mu itsinda kugira ngo babashe gusobanukirwa, ibyo barimo kwiga.

Inzu igeretse iri mu irangi ry'umweru kandi hari amasikariye ajya mu nzu yo hejuru kandi impande zaho gato hari indabyo zicunze neza. Akenshi iyi nzu imeze itya ikunda kuboneka mu mashuri y'abanyeshuri bo muri kaminuza cyangwa aho barara nk'amacumbi.

Abanyeshuri bambaye amakanzu n'ingofero, aya makanzu akunda kwambarwa iyo abanyeshuri muri Kaminuza basoje kwiga bari kwishimira ko barangije amashuri yabo, haba habaye ikirori, bamwe barimo kwishima ingofero bazikuyemo bazishyira hejuru.

Abantu babiri bari imbere ndetse n'abandi bari inyuma, barimo kumanuka ahantu ku masikariye, bameze nk'abanyeshuri bo muri kaminuza, aho abanyeshuri bo muri kaminuza baba batambaye impuzankano, nibo bakunda kugaragara bambaye imyenda yose biboneye.

Umuryango w'ishuri akenshi ukunda kugaragara mu mashuri yo muri kaminuza, aho haba handitseho nimero y'umuryango, mu gihe abanyeshuri bagiye kwiga bakandikaho itangazo bakavuga n'ishuri baribwigiremo bagendeye ku kapa kari hejuru kanditseho imibare ibayobora aho wari bwigire.